Aho ahagaragara aho bacuruza imyenda y'abagabo ndetse n'abagore, hakaba, iyi nzu ikaba iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Hakaba hagaragaramo abagabo babiri bafatanyije gufata igifunguzo kinini cya ebiji kampani, inyuma yabo hakaba hari ibikamyo bibiri.

Ifaranga rimwe ryakoreshwaga mu mafaranga y'amanyarwanda, mu myaka myinshi ishize, iri faranga rikaba riri mu bwoko bw'igiceri.

Ahagaragaramo umugore uri kubara amafaranga, agiye kuyishyura, aho yaje gusaba serivise zitandukanye, hakaba hagaragaramo, agakayi k'umuhondo kari iruhande rwe ndetse n'ikaramu.

Agaragaramo aho bacuruza amata yo kunywa, hakaba harimo umugabo umwe, hakaba harimo intebe z'umweru ndetse n'iz'ubururu, hakaba harimo icyuma gikonjesha ibinyobwa, hakaba harimo n'ibikoresho bikoreshwa mu kubika ibintu bishyushye.

Ahagaragara umugabo afite amafaranga menshi cyane y'amahanga, muri ayo mafaranga hakaba harimo ubwoko bw'amadolari, amadolari akaba ari amafaranga akoreshwa na leta zunze ubumwe za Amerika.

Ahagaragaramo ibiceri byinshi cyane biri mu bwoko bw'ihazazabu, hakaba harimo umugabo wambaye impeta arimo arabara amafaranga ari mu bwoko butandukanye.

Hakaba hagaragaramo amafaranga y'amanyamerika ari mu bwoko bw'Amadorari. Aya mafaranga akaba ari mu cyuma cyagenewe kubara amafaranga.

Ahagaragaramo amafaranga yo mu bwoko butandukanye, harimo ibiceri ndetse n'inoti byo mu bihugu ndetse no ku migabane itandukanye myinshi cyane.

Ahavunjishwa amafaranga yo mu bwoko butandukanye, hakaba hari uko bavunjisha amafaranga y'Amanyamerika, amafaranga y'Abongereza, amafaranga y'Abanyacanada amafaranga yabanya Ositarali, amafaranga y'Abataliyani, amafaranga y'Abaturiki ndetse n'ayandi.

Ahagaragaramo umugabo umwe uhagaze ahantu muri koridoro y'inyubako, iburyo bwe hakaba har’icyumba gikoreramo akazi k'ivunjishwa ry'amafaranga, hakaba hagaragaramo icyapa cyanditseho ibiciro by'uko amafaranga avunjishwa, hakaba hari n'aho bakarabira intoki.

Ahavunjishwa amafaranga y'amahanga, hakaba hitwa gira neza, hakaba hagaragara mu cyapa cy'umweru cyanditse mu magambo y'ubururu ndetse n'umutuku, inzu ikaba ifite ibara ry'umuhondo.

Ameza akenshi akoreshwa mu ngo z'abantu mu gihe baba bagiye gufata amafunguro, aya meza akaba yaragenewe kujyaho abantu batandatu, akaba ari ameza hejuru hariho ikirahuri ndetse n'ibirahuri byo kunywa amazi.

Hagaragazwa akisesi banki aho itanga ibibazo wasubiza ukaba watsindira ibihembo bitandukanye kandi byinshi.

Mu isoko harimo ibintu byishi bari gucuruza, harimo ibishyimbo, ibishimbo by'umweru ndetse n'umutuku harimo abagore bari gucuruza mu isoko, ndetse n'abagura, harimo n'amabase hirya ahahera.

Aho babagurira ibiryo byo murandasi hakaba harimo amandazi y'urwibutso afite igiciro cy'amafaranga magana atatu mirongo itanu y'amanyarwanda.

Umugabo uhagaze mu gahanda k'igitaka akaba yambaye urukweto rwa shokora ndetse n'ikoti n'ipantaro bya shokora, ishati y'umweru akaba ari imbere y'inzu y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu.

Iduka riri mu bwoko bwa botike rikaba rifitemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye harimo imigati iri mu bwoko bwa simba ikaba harimo amata ari mu bwoko bwa Mukamira ikaba ifite ji ziri mu bwoko bwa Embe ndetse n'Agashya hakaba harimo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Supamaketi igaragaza ibyapa bigaragaza ko bari muri noheri, hakaba harimo imyanya y'ibiciro by'amafaranga abiri, ibiciro by'amafaranga atandatu.